Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini, bambaye amakoti, amashati, iruhande rwabo hateretse amazi meza yo kunywa, ubona ko bishimye.

Icyumba gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, aho abaganga baturuka hirya no hino bakaza gufasha abarwayi, kugira ngo basubire mu muryango nyarwanda bafitiye ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kuvoma amazi yo gukoresha, kubera ko amazi ni kimwe mu bintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo abantu babashe kubaho.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini, baje kugura ibicuruzwa bitandukanye ndetse bishimiye ibiciro biri ku isoko kuko bitari hejuru.

Icyumba kirimo umuganga n'umubyeyi bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, n'icyatsi. Aho barimo kwita ku mwana umubyeyi ateruye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje mu nama, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, ndetse n'ubururu. Imbere yabo bahagaze umugabo wambaye ikoti ryiza ufite indangururamajwi mu ntoki.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kuvoma amazi meza yo kunywa, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi, umutuku, umukara n'umuhondo.

Amazi meza ni isoko y'ubuzima, iyo ukoresheje amazi meza bituma hari indwara zituruka ku mwanda utarwara kandi ukagira ubuzima buzira umuze.

Inyubako nini yateraniyemo abantu bavuye mu bice bitandukanye, aho baje gushaka serivisi z'ubuvuzi kugira ngo batahe bafite imiti kandi bakize.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini, biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye, harimo izo kwiteza imbere, guteza imbere igihugu ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umuhondo, ubururu n'umweru, imbere yabo hari umubyeyi uteraruye mwana.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru umutuku umuhondo icyatsi n'umukara, iruhande rwabo hari intebe ndetse n'ameza manini.

Abana barimo kureba, ndetse bari kunywa amazi ku iriba. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi, umweru, umukara, ndetse n'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba, bambaye imyenda y'umweru, umukara, umutuku n'umuhondo, barimo kuvoma amazi bayashyira mu ndobo nini.

Ihuriro ry'abaganga baturutse hirya no hino mu gihugu, bambaye impuzankano y'amabara y'umuhondo, n'ubururu, n'umukara, ubona ko bishimye.

Umwana wambaye ikanzu y'umukara n'ishati y'umweru, urimo gukaraba mu ndobo y'icyatsi n'ibasi, iruhande rwe hari inzu nini yubakishije amatafari ahiye.

Icyumba kinini kirimo umubyeyi uteruye umwana wambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara inyuma ye hari undi mubyeyi na we uteruye umwana.

Icyumba kirimo abana bahagaze, imbere y'ibara ry'umuhondo n'ubururu n'umweru, ubona ko bagirwa inama ku ngingo zitandukanye zifitiye Igihugu akamaro.

Ihuriro ry’abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye biganjemo abaganga, bambaye imyenda y’umweru, ubururu n'umukara, bar’imbere y’inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by’ubuvuzi.

Amazi ni kimwe mu bintu abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi, aho abantu baturuka hirya no hino, bakajya kuyashaka mu bice bitandukanye, kugira ngo babone ayo bakoresha.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, umukara, n'ubururu, kandi bishimye banezerewe.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye byigihugu biganjemo abagabo, abagore, n'abana bambaye imyenda y'umweru, umutuku n'umukara.

Amazi meza ni isoko y'ubuzima, iyo ukoresheje amazi mabi bituma hari indwara zimwe na zimwe ugenda urwara, ariko iyo ukoresheje amazi afite isuku, ugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bambaye imyenda y'umukara n'umuhondo, bari gukaraba kuri kandagira ukarabe, bari munsi y'igiti kinini kirimo amabara y'icyatsi ndetse kiri imbere y'ikigo hagati.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bambaye imyenda y'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, bambaye udupfukamunwa kandi iruhande rwabo hateretse ibiryo.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, uri gukaraba n'amazi n'isabune. Ari ahantu heza ubona ko hashimishije bityo bikamufasha kubaho neza.

Umwana wambaye ikanzu y'umutuku urimo kuvoma amazi akoresheje intoki bigaragara ko yishimye kandi anezerewe ubona ko yitegereza hirya no hino ngo arebe ko hari umuntu umureba.

Abantu baturutse hirya no hino bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru n'ubururu. Impande yabo hari abandi bashushanyijeho basa nkabambaye imyenda y'umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye kw’iriba, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, ubururu, umweru ndetse n'icyatsi. N’abana ubona ko ari benshi cyane kandi bashaka amazi yo kunywa.

Umwana uri ku iriba arimo aravoma amazi,. Uyu mwana yambaye umupira urimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu. Arimo aroga mu mutwe kugira ngo aruhuke neza.

Umugabo wambaye ikoti ry'iza ry'umukara n'ishati y'umweru ndetse wambaye n'indorerwamo z'amaso, ahagaze imbere y'abaturage ari kumwe n'umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara bigaragara ko yishimye.

Icyumba kinini kirimo abantu b'ingeri zose, abarwayi, abaganga, abana, abagabo n'abagore, ku buryo abaganga barimo kubitaho ndetse babaha serivise nziza.

Inyubako nini irimo umugabo wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara/ umutuku n'umweru ari imbere y'abaturage ndetse iruhande rwe ubona ko hari intebe nziza z'abayobozi.

Urujya n'uruza rw'abana bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo ndetse hari n'abapolisi bambaye imyenda y'umukara. Ni abantu ubona ko bishimye kandi bari gufasha abana.

Itsinda ry'abantu benshi cyane, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, ubururu n'icyatsi, bahuriye munzu nini, ubona ko bishimye.

Umusore wambaye indorerwamo z'amaso uteruye umwana wambaye umupira w'umuhondo. Uwo mwana ahagaze ku munzani bigaragara ko ari gupimwa ibiro kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Abaganga bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, barimo kuvura umurwayi ndetse ubona ko bishimiye serivisi bari gutanga kandi nziza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye babashije kuvoma amazi. Amazi ni ingirakamaro kandi atuma abantu babaho neza, bityo bigatuma barwanya indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abasaza n'abakecuru, bambaye imyenda y'umweru, umukara, umutuku, n'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abantu baje kuvoma amazi biganjemo abagore n'abana, bafite ibikoresho byifashishwa mu gutwara amazi iyo ari amajerekani, amabasi ndetse n'indobo.

Umwana uri gukarabira ku iriba wambaye ishati y'icyatsi n'ikabutura y'umukara bigaragara ko ashaka amazi yo kunywa, ni umwana uri hagati y'imyaka y'icumi na cumi n'itanu.

Umubyeyi wikoreye indobo itukura, wambaye n'ishati irimo amabara y'umuhondo, n'igitenge kirimo amabara y'ubururu, ari kujya ahantu ubona ko ari mu ishyamba rinini kandi ririmo ibiti byinshi.

Abana bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara barimo gukaraba ku iriba rifite amazi menshi iruhande rwabo hateye indabo nziza kandi zitoshye.

Urujya n'uruza rw'imodoka zigemuye ibicuruzwa bitandukanye, birimo umuceri, kawunga ndetse n'ibindi bifitiye akamaro abaturage b'igihugu muri rusange.

Icyumba kinini cyateraniyemo abanyabuzima baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, icyatsi n'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umweru, umutuku n'ubururu urabona ko bagaragara neza kandi bakeye neza bafite isuku.

Icyumba kinini kiberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyiganjemo umusaza n'umukecuru ahantu bari hari amabara agiye atandukanye higanjemo icyatsi ubururu n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko baje kugura ibicuruzwa bitandukanye, kugira ngo babashe kubona ibyo kurya kandi bitabahenze.

Umuganga urimo kuvura umwana w'imyaka ibiri, uteruwe n'umubyeyi ufite imisatsi myinshi, bicaye mu cyumba kirimo amahumbezi, kandi kirimo umwuka mwiza.

Abagabo babiri bambaye imyenda yiganjemo umukara, ubururu ndetse n'icyatsi bari imbere yababaturage ubona ko bahuriye hamwe kugira ngo birinde indwara yandura ya mabaga.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abagore, n'abakobwa, iruhande rwabo hateretse amajerekani menshi kandi manini.

Ahantu hari ibikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi harimo: Ibikombe, ibisuperi, amasahani, amakanya ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umweru, umuhondo, icyatsi n'ubururu, ubona ko bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko imwe.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagabo, abagore bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, ubururu aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Inyubako nini irimo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubucuruzi, ubuvuzi n'ibindi, iri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, hirya yayo hari ishyamba rinini ubona ko rikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Umukecuru urimo kuvoma amazi ku iriba wambaye imyenda irimo amabara y'umutuku n'umweru n'ubururu, ufite indobo mu ntoki, ndetse ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo umugore n'umugabo, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umutuku n'umweru.

Ihuriro ry'abana baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, baje kwiteza urushinge kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku ivuriro, baje gusaba serivisi zitandukanye z'ubuvuzi kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako nini irimo abagore batanu, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo umukara ndetse n'iroza umugore wambaye imyenda y'iroza afite ibitabo mu ntoki.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, icyatsi ndetse n'ayandi atandukanye.

Amazi meza ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze bityo bikamufasha kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umweru umukara ndetse n'ubururu, bari imbere y'ameza manini arambitseho igitambaro cy'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba, baje kuvoma amazi. Bafite ibikoresho byiganjemo amajerekani, ndetse n'amagare.

Urujya n'uruza rw'abagore bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umukara n'umweru, barimo guterura imifuka y'umuceri, ubona ko bisaba imbaraga.

Urujya n'uruza rw'abana bari ku iriba baje kuvoma amazi, iruhande rwabo hateretse utudobo ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini kirimo abaganga bane ndetse n'umugabo ubari inyuma, iruhande rwabo hateretse ibikoresho bifashisha barimo kuvura abarwayi kandi babaha serivisi nziza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo abagore bambaye imyenda y'umweruru umutuku, umukara ndetse n'ubururu bari mu nyubako nini ubona ko ikorerwamo inama.

Umubyeyi uteruye umwana wambaye ibitenge bisa amabara y'umuhondo umukara ubururu n'icyatsi hirya ye hari abandi bagore bicaye benshi.

Itsinda ry'abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu, n'umukara. Bahagaze imbere y'inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi.

iIhuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abakecuru n'abasaza bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umwana ufite indobo mu ntoki, iruhande rw'iriba rinini iruhande rwe ubona ko hari umugabo wambaye ipantaro ndetse n'umupira, wiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'inkweto z'umweru.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, irimo abantu bambaye imyenda y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'amabara y'icyatsi.

Inyubako nini yahuriwemo n'abaganga batandukanye bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, umutuku, umweru n'ubururu, ubona ko bahuriye hamwe kugirango bige ku kubazo bitandukanye.

Abakobwa batanu bambaye imipira y'ubururu n'ingofero z'umweru, bahagaze mu nyubako nini yubakishije ibyuma bikomeye.

Umuganga uri kwita ku mwana, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, ubururu n'umweru, ubona ko amubaza ibibazo ndetse n'ibisubizo uwo mwana amuha, ubona ko ari byiza,

Amazi mabi ni yo soko y'indwara zitandukanye, kuko iyo unyoye amazi mabi bituma urwara nk'ibicurane, inkorora n'izindi ndwara zituruka ku mwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino baje kwaka serivisi y'ubuvuzi, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru n'umutuku, iruhande rwabo bateretse amajerekani manini abiri.

Ihuriro ry'abayobozi bahuriye mu nyubako nini, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ubururu, n'umweru, bicaye, iruhande rwabo hari ameza manini.

Umugabo wambaye ikoti ryiza ry'ubururu n'ishati y'umweru uri ku ifoto bigaragara ko ari umuyobozi, agaragara nk'umuntu ukuze ndetse ufite ubunararibonye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yiganjemo amabara y'ubururu umutuku ndetse n'umweru n'ahantu ubona ko ari heza hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye kandi b'ingirakamaro.

Ihuriro ry'abantu baturutse mubi bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo icyatsi ,ubururu ,umweru, umukara, ubona ko bahuriye kubitaro bikuru.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga ndetse abarwayi baraza bakivuza maze bagataha bakize bishimye.

Icyumba kinini cyahuriyemo abarwayi batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu, umukara ndetse n'umuhondo, bari mu cyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Umwana wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, uri ku iriba avoma amazi. Ari ahantu mu kibuga kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu ndetse n'umukara, bari imbere y'ameza manini bafite ibitabo bandikamo.

Icyumba kinini kiberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, kirimo abana bambaye imyenda y'umikara, ubururu ndetse n'umuhondo. Bahuriye hano kugira ngo bige ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye.

Abantu baturutse hirya no hino, bahuriye ahantu hamwe, hirya yaho hari igiti kinini, cyiganjemo amabara y'icyatsi. Bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umweru, ndetse n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru, umukara, ubururu, ubona ko bari kujya mu bikorwa bitandukanye kandi bifitiye igihugu akamaro.

Urujya n'uruza rw'abakecuru baje kwa muganga kwisuzumisha indwara, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umukara, umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi bari mu cyumba kinini, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umuhondo, umweru, umutuku ndetse n'ubururu.

Umwana urimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, uhagaze imbere y'inyubako nini, isakaje amabati y'ubururu ndetse yubakishije amategura, iruhande rwayo hari iriba.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu biganjemo urubyiruko baje kuvoma amazi meza kandi afite isuku.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo hahagaze abagabo bambaye imyenda y'umuhondo, umweru, umukara, ubururu, ndetse n'umutuku.

Abana bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru, ubururu, iruhande rwabo hari umukobwa uri kubafasha kuvoma.

Ihuriro ry'abaganga baturutse hirya no hino mu gihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, n'ubururu, bahagaze imbere y'inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi batandukanye bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, ndetse, n'ubururu bari iruhande rw'ameza ateretseho ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi. Aribyo amabasi, amajerekani ndetse n'amasafuriya.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye ku iriba bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, umukara, ubona ko baje kuvoma amazi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abana b'abanyeshuri, bambaye imyenda ya kaki, bari ku iriba, bari kuvoma amazi yo kunywa.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye, biganjemo abagore n'abagabo, bambaye imyenda myiza kandi igezweho.

Urujya n'uruza rw'urubyiruko rwiganjemo abakobwa n'abasore bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umukara n'umweru ubona ko bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye.

Ihuriro ry'abayobozi baturutse mu nzego z'ibanze bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru ndetse n'umutuku aho barimo kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umukara, umweru ndetse n'ayandi. Hirya yayo hari ibiti byinshi kandi bikomeye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino biganjemo abana bato bambaye imyenda y'umweru n'ubururu ,iruhande rwabo hari ababyeyi babo bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru.

Inyubako nini isakaje amabati y'umutuku n'amabara y'umweru ayiteyeho. Inyubako ubona ko, ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo iby'ubucuruzi, ubuvuzi ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba, bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umutuku, umweru, ndetse n'icyatsi. Bafite amajerekani menshi, ubona ko bari kuvoma.

Umwana wambaye umupira w'umweru, umukara n'ubururu uri kumwe nundi wambaye imyenda y'umutuku, bari kuvomesha amazi intoki bigaragara ko bishimye.

Umuganga wambaye udukoresho twifashishwa kwa muganga bita uturindantoki urimo gutera urushinge umurwayi ku kuboko.

Icyumba kinini kirimo abaganga bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, barimo kuvura umurwayi bambaye udupfukamunwa, kugira ngo birinde indwara zandura.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bateruye imifuka, ubona ko ari iy'umuceri, kawunga ndetse n'ibindi biribwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Umusore uri ku iriba ari kuvoma amazi akoresheje intoki, wambaye imyenda yiganjemo umutuku, ubururu, n'umuhondo, ubona ko yishimye, kandi anezerewe.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi yiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho abantu baturutse hirya no hino bahabwa ubufasha bw'ibanze kugira ngo bakire vuba.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abayobozi bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru, umutuku, umuhondo n'ubururu ubona ko bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye harimo kwirinda ibiyobyabwenge.

Abayobozi ndetse n'abaganga bari kwita ku barwayi, higanjemo amabara y'umweru, umukara, umutuku n'cyatsi kibisi.

Umuntu urimo kuvoma amazi akoresheje intoki ubona ko ari kuyanywa, ni umuntu w'imibiri yombi ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umuganga uri gufasha abarwayi mu nyubako nini yiganjemo amabara y'umweru ,umukara n'umuhondo, aho urujya n'uruza rw'abantu bahuriye kugira ngo bahabwe serivisi nziza kandi inoze.

Icyumba cyateraniyemo abarwayi n'abaganga, aho bafashwa ndetse bagahabwa imiti kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, maze babashe gusubira mu muryango nyarwanda bameze neza.

Abana babiri bicaye ku iriba, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, icyatsi n'ubururu, baganira ndetse bishimye bityo bigatuma babaho banezerewe.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo: ubururu, umukara, n'umweru. Inyuma yabo hari inyubako nini isize amarangi y'umuhondo.

Ihuriro ry'abana biga mu mashuri abanza, bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umukara n'umuhondo. Bamanitse amaboko bamwenyura bishimye.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi batandukanye, biganjemo abagore n'abagabo, bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, umukara, icyatsi n'ubururu.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi cyane cyane ubuvuzi bwo mu mutwe ni inyubako nini irimo amarangi yumukara umuhondo ndetse n'umweru.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, irimo abantu bambaye imyenda y'umukara, umweru, ubururu n'icyatsi, barimo kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umuhondo n'umweru, ubona ko bababaye kandi bakeneye umuntu ubafasha kandi ubitaho.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara y'umuhondo wambaye nipantaro y'umukara, imbere ye hari umuntu wambaye imyenda yacitse ubona ko afite ikibazo cyo mumutwe.

Umubyeyi uteruye abana, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara. Iruhande rwe hari inkoko iriho ibishyimbo, ubona ko arimo kubitoranya.

Icyumba kinini kirimo abayobozi batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, ubururu n'umutuku. Imbere yabo hahagaze umugore, uri kubagezaho ijambo.

Icyumba kinini kirimo abayobozi batandukanye bavuye mu bice by'impande n'impande mu gihugu, bambaye imyenda yiganjemo icyasi, umutuku, umweru n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu hamwe, bicaye ku ntebe y'urubaho, iruhande rwabo hari inyubako nini ihari, irimo amabara y'umutuku ndetse iteye umucanga.

Abagore babiri, harimo umwe uteruye umwana, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, icyatsi n'umutuku bigaragara ko bishimye.

Umugore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse wambaye indorerwamo z'amaso, afite urupapuro mu ntoki, ubona ko arwerekana.

Inzu y'amatafari ahiye ni zimwe mu nzu zikomera abantu benshi bifuza, kugira ngo babashe kugira isuku ndetse no kubaka ibintu birambye.

Icyumba kirimo abakobwa babiri bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara n'icyatsi, ubona ko baganira kandi bahuje urugwiro.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu bice bitandukanye, higanjemo abantu bambaye imyenda y'ubururu, umuhondo n'umutuku. Biragaragara ko harimo abagabo ndetse n'abagore.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye, bafite insanganyamatsiko igira iti "kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye" ubona ko iyi nsanganyamatsiko ibashimishije.

Ihuriro ryabantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu, umukara ndetse n'umutuku. Bafite igipapuro kinini mu ntoki kiriho insanganyamatsiko y'umunsi.

Umugore wicaye mu cyumba wenyine witeze igitambaro mu mutwe cy'umuhondo ubona ko yigunze kandi adafite umuntu umufasha wicaye hejuru y'ameza ndetse yifashe mu kwaha.

Icyumba kinini kirimo umuhungu wifashe mu maso yambaye umupira w'umukara. Ari mu nyubako nziza iteye amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bitandukanye bygihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu, umukara n'umutuku ubabona ko bahurijwe hamwe niinsanganyamatsiko imwe.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe, baje mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ni abantu biganjemo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bahuriye hamwe, bambaye imyenda yiganjemo ubururu umukara n'umutuku. bari kumwe n'abayobozi babo babagira inama.

Umugore uhetse umwana w'uruhinja wambaye imyenda yiganjemo ubururu, umutuku, icyatsi n'umukara ndetse uyu mugore atetse igikoma.

Icyumba kinini kirimo umugabo wifashe mu gahanga wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, iruhande rwe hahagaze umugore w'imisatsi myinshi ubona ko arimo kumwitaho.

Icyumba kirimo abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, umukara ndetse n'amabara y'ubururu.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umutuku ndetse n'umukara. Biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abasore ubona ko bishimye.

Umugore wambaye ikoti ryiza ry'umukara n'ishati y'umutuku uri mu cyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye iby'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa bifitiye abaturage akamaro.

Ubucuruzi ni kimwe mu nkingi ya mwamba y'ibitera iterambere ry'igihugu, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira bakaza kugura ibyo bakeneye.

Umukobwa uri kumwe n'umukecuru ubona ko baganira kandi bahuje urugwiro, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umutuku ndetse n'ubururu.

Ihuriro ry'abantu baturutse mubi bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara n'umuhondo, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, n'umuhondo, bari imbere y'imodoka nini ubona ko itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu hamwe, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umutuku, ubururu ndetse n'ayandi mabara atandukanye.

Inyubako nini yahuriyemo abagore baturutse mu bice hirya no hino, bari mu nzu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye kubona ko bahabwa inyigisho ku bintu bitandukanye.

Inyubako nini irimo amabara y'umuhondo, umweru n'umukara, iruhande rwayo hahagaze umugabo muremure munini wambaye inkweto zifunze.

Abagore bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, ubururu n'icyatsi, harimo umwe uteruye umwana ndetse afite inkoni mu ntoki, ubona ko bari ahantu mu misozi.

Umukecuru urimo guseka wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'icyatsi, uhagaze mu nyubako nini ikorerwamo ubuvuzi.

Abantu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, bateruye umukobwa bigaragara ko arwaye kandi akeneye ubufasha bwihuse kugirango abashe gukira vuba.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'ubururu wicaye mu ntebe nziza kandi ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Icyumba kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umukara, umutuku, ndetse n'umweru bari ahantu heza harimo kubera inama zitandukanye.

Umugabo muremure wambaye ishati y'ubururu w'imibiri yombi, ahagaze iruhande rw'abantu benshi bahuriye hamwe, baje mu bikorwa bigiye bitandukanye bibafitiye akamaro.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umuhondo, umukara, ubururu. Aba bantu biganjemo abana ndetse hari umwana urimo kurira.

Inyubako nini isise amarangi y'umweru ndetse iruhande rwayo hari ibyapa binini biyobora abarwayi kugira ngo bamenye ibyumba baherebwamo serivisi bitewe n'uburwayi bafite.

Ihuriro ry'abayobozi batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umuhondo, icyatsi n'umutuku ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kirimo umusore wambaye ishati y'umweru n'ubururu, ukenyeye igitenge ubona ko a aziritse amaguru yigunze kandi ubona ko afite ibibazo bigiye bitandukanye.

Umubyeyi uhagaze imbere y'abaturage abagezaho ijambo, wambaye ishati y'ubururu n'indorerwamo z'amaso. Imbere ye hari indangururamajwi imufasha gutambutsa amajwi neza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umweru, umukara ndetse n'umuhondo, bari mu nyubako nini ubona ko ari nziza.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye mu nyubako nini biganjemo abambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi, umweru, umutuku ndetse n'ubururu.

Icyumba kinini cyateraniyemo umuganga n'umurwayi, aho amufasha ndetse amubaza ibibazo bitandukanye bijyanye n'uburyo yanduye n'uburyo yafashwe, kugira ngo abone uko amuvura.

Itsinda ry'abana bambaye imyenda y'umukara, ubururu n'umweru, barimo gusukura amenyo kugirango bagire ubuzima bwiza kuko isuku ari isoko y'ubuzima kandi bituma umuntu abaho neza.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yaba iby'ubuvuzi ndetse n'ibindi bibazo byose bijyanye n'uburwayi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umutuku ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ni ahantu heza ubona ko abantu bahurira baje kwaka serivisi y'ubuvuzi.

Icyumba kinini kirimo umurwayi n'umuganga uri kwita kuri uwo murwayi ubona ko bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu umweru n'icyatsi, bari mu cyumba kinini gikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi.

Umusore uri gukoresha akadodo asukura amenyo. Ni umusore ufite amenyo y'umweru ubona ko ayagirira isuku bityo akayarinda kugira indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Umugabo ufite akadodo gakoreshwa mu gusukura amenyo, ufite ubwanwa bwinshi arimo araseka ndetse ubona ko yishimye kandi anezerewe bityo bikamwongerera iminsi yo kubaho.

Icyumba kirimo ibikoresho byiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu ni icyumba kinini ubona ko abantu benshi bahuriramo bagakorerwa ndetse bagahabwa serivisi nziza.

Umusore ufite amenyo y'umweru, afite n'imisatsi myinshi, yambaye umupira w'umukara ndetse biragaragara ko yishimye kandi anezerewe.

Umukobwa ufite akadodo gakoreshwa mu gusukura amenyo w'imibiri yombi ubona ko abikora kandi neza, amenyo ni ikintu cy'ingenzi ku muntu kuko kimufasha kurya ndetse no kubaho neza.

Umusore ufite ubwanwa bwinshi n'umusatsi mwinshi, urimo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse afite akadodo mu ntoki kifashishwa mu gusukura amenyo.

Umusore urimo kwireba mu kirahure wambaye ubusa hejuru, uri kwikora isuku mu menyo kugira ngo yirinde umwanda uturuka ku menyo.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi ufite agakoresho gakoreshwa mu gusukura amenyo hirindwa umwanda ukabije uturuka kudasukura amenyo.

Icyumba kinini kirimo umusore n'umwana, bambaye imyenda y'umweru ndetse bafite akadodo gakoreshwa mu gusukura amenyo. Kubera ko gukoresha uburoso byonyine bidahagije.

Ubuvuzi bw'amenyo ni kimwe mu bintu bituma ubuzima bw'abantu bugenda neza, kandi iyo utabukoresheje neza bituma hari byinshi ubura, ni ngombwa rero kwisuzumisha amenyo kugirango ubashe kubaho neza.

Icyumba kirimo abantu batandukanye biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda y'umweru, icyatsi, umutuku ndetse n'umukara.

Umukobwa ufite agakoresho gakoreshwa mu gusukura amenyo, kubera ko gukoresha uburoso na korogate, ntabwo ari byo byonyine bifasha umuntu gukira indwara zituruka ku menyo gusa.

Ubuvuzi bw'amenyo ni bumwe mu buvuzi bufasha umuntu kugira ubuzima bwiza, kubera ko amenyo ariyo akoreshwa umunsi ku munsi, kugirango umuntu abashe kurya ndetse no guhumeka buri munsi.

Umusore wambaye umupira wumukara urimo guseka ufite imisatsi myinshi ubona ko afite akanyamuneza kandi anezerewe bityo bikamwongerera iminsi yo kubaho.

Icyumba kinini kirimo abantu bambaye imyenda y'umweru, barimo kwireba mu ndorerwamo, bibaza uko ibibazo by'amenyo byazakira.

Umusore wambaye umupira w'umweru urimo araseka. Ni umusore mwiza ubona ko inyuma ye hariyo ibara ry'umuhondo kandi rigaragara cyane. Uyu musore arishimye kandi aranezerewe.

Umusore ufite ubwanwa bwinshi wambaye ikoti ry'ubururu, ubona ko yishimye kandi anezerewe bityo bigatuma abaho neza kandi agira ubuzima bwiza.

Gusukura amenyo muzima bwa buri munsi ni ingenzi, kuko iyo udasukuye amenyo bituma hari indwara zimwe na zimwe wandura kandi bitari ngombwa, bityo abantu bashishikarizwa kugusukura amenyo kugirango bagire ubuzima bwiza.

Umusore uri gukoresha akadodo kabugenewe gasukura amenyo urimo araseka kandi yishimye. Arimo arireba mu kirahure bigaragara ko ari ikirahure kinini kandi cyiza.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi y'umukara, wambaye isengeri y'umweru, ubona ko afite uburoso busukura amenyo.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, uri gukorerwa ibikorwa by'ubuvuzi bw'amenyo, kubera ko amenyo ni kimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Icyumba kinini kirimo abana bambaye imyenda y'imyeru, bamanitse uburoso ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura amenyo.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice byo hirya no hino bitandukanye, baje guhabwa ubuvuzi bw'amenyo bambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi n'umuhondo.

Icyumba kirimo umusore wambaye itaburiya y'umweru n'umupira w'umuhondo. Hirya ye hari igitanda kirimo amabara y'icyatsi, umweru ndetse n'ayandi atandukanye yiganje muri iki cyumba.

Umusore urimo kwireba mu ndorerwamo, yambaye umwenda w'umweru ndetse afite n'imisatsi myinshi. Afite akadodo gakoreshwa mu gusukura amenyo.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, icyatsi ndetse n'ubururu bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye kugira ngo bagire bimwe bakemura.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo abantu bambaye imyenda y'icyatsi, umweru n'umukara, bari mu cyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi.

Umugabo uri gukoresha uburoso asukura amenyo, wambaye ikanzu y'umukara hirya ye hari amabara y'umutuku ndetse n'umweru, bigaragara ko ari icyumba gitatsemo imitako myiza.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi w'imibiri yombi uhagaze arimo guseka ubona ko yishimye kuberako ibyishimo birahenda.

Icyumba kinini kirimo abaganga, bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umweru n'umukara, bari mu cyumba kinini kirimo umurwayi, ubona ko bamumurika itara mu kanwa.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo amabara y'umweru, umukara n'ubururu, byifashishwa na muganga kugira ngo yite ku barwayi.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse hirya no hino mu gihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, ubona ko bishimiye serivisi barimo guhabwa ndetse bigatuma ubutaha bazagaruka.

Icyumba kinini kirimo umwana ufite uburoso busukura amenyo wambaye imyenda yiganjemo umweru, icyatsi ndetse n'andi mabara ari mu nzu agaragara neza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura abarwayi bityo bagataha bameze neza aho abantu bava hirya no hino bakishimira serivisi yo kwa muganga.

Umuganga uri kuvura umurwayi, aho amuha imiti igiye itandukanye, kugira ngo abashe gukira. Yambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi, umukara ndetse n'umweru.

Ihuriro ry'abana baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino, bafite uburoso bwifashishwa mu gusukura amenyo, gukoresha uburoso gusa ntago biba bihagije kuko umuntu akoresha akadodo kugira ngo asukure amenyo neza.

Umugabo ufite amenyo y'umweru, wasamye, ubona ko ari kwerekana agakoresho kifashishwa mu gushyigikira amenyo. Ni umugabo ufite inzara ntoya, ariko ubona ko yishimye.

Urujya n'uruza rw'abagore bavuye guhaha ku isoko, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru ndetse ubona ko bahetse ibikapu.

Umukecuru wicaye mu kagare, ukenewe kwitabwaho na muganga, aho amubaza ibibazo bitandukanye ndetse akamuha imiti imufasha kugira ngo abashe gukira vuba.

Abantu batandukanye bahagaze imbere y'inyubako nini bambaye imyenda yiganjemo umukara n'umweru bafite imisatsi myinshi kandi myiza bahagaze imbere y'igiti kinini kirimo ibara y'icyatsi.

Icyumba kinini kirimo umusaza n'umukecuru, bambaye indorerwamo z'amaso n'imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umukara, kandi ubona ko bari kurya.

Icyumba kinini kirimo umusaza n'umukecuru, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umukara n'umweru, biragaragara ko bishimye Kandi banezerewe

Icyumba kirimo umugabo wambaye ishati y'umukara iruhande rwe hateretse igikombe kinini cy'ikirahure ubona ko arimo gusoma ibitabo bitandukanye bigatuma yishima kandi anezerwa.

Umugabo ufite imisatsi myinshi, wambaye isaha ku kuboko ndetse ubona ko akuze, iruhande rwe hateretse ameza manini, ubona ko yishimye kandi anezerewe, bityo bikamwongerera iminsi yo kubaho.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo umusaza n'umugore we bari mu nyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, barimo gusarura icyayi bishimye, bambaye imyenda yiganjemo ubururu n'umutuku.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo, iroza n'umweru, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yashinze inkokora ndetse aryamye ku mukeka.

Icyumba kirimo umugore n'umugabo bicaye imbere y'ameza, hirya yabo hari intebe nini ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba kinini kirimo umusaza uri kumwe n'umuganga, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru ndetse bicaye iruhande rw'ameza manini, ubona ko bishimye.

Itsinda ry'abantu bahuriye mu nyubako bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umuhondo ndetse n'umweru ubona ko ari umuryango wishimye kandi unezerewe.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso afite igitabo arimo gusoma, ni umugabo ufite imvi nyinshi ndetse wambaye indorerwamo z'amaso kandi afite ikaramu mu ntoki.

Umuganga uri kumwe n'umusaza wambaye ishati y'ubururu wicaye mu kagare arimo kwitabwaho n'umuganga kugirango abashe gukira vuba.

Ubuvuzi ni kimwe mu nkingi ya mwamba ifatiye runini abaturage ndetse n'igihugu muri rusange kuko bituma bagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, biganjemo abagabo abagore n'abana bambaye imyenda y'umukara, ubururu, umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Icyumba kirimo umuganga n'umurwayi, ubona ko yitabwaho kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi anezererwe, icyo cyumba kirimo amabara y'umweru n'ubururu.

Umugore n'umugabo bavuye mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo barwanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije, bityo bikabafasha kubaho neza, ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bateraniye mu cyumba kinini kirimo ibiribwa by'amoko atandukanye; harimo: amashu, dodo, intoryi, inyanya n'ibindi.

Icyumba kinini kirimo abasaza n'abakecuru, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu umutuku, ufite imisatsi y'imvi ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umusaza wambaye imyenda y'umukara n'umweru, uri kumwe n'abana babiri bicaye hasi, iruhande rwabo hari inyubako nini irimo amabara y'umukara n'umuhondo.

Umusaza uri kumwe n'umugore bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku n'umukara, bari mu cyumba kinini ubona ko kiberamo ibintu byinshi, kandi ni ahantu heza ubona ko habereye ijisho.

Umusaza wambaye imyenda y'umukara uteruwe n'abaganga babiri kugirango abashe kugezwa ku buriri kubera ko agaragara nk'unaniwe.

Icyumba kirimo umugore n'umwana we bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ni ahantu hanini hisanzuye ubona ko ari heza.

Umusaza uteruye umwana mu ntoki, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umukara, bari mu nyubako nini, irimo amabara y'umuhondo n'umweru.

Umubyeyi wambaye imyenda y'umuhondo ufite ibinini mu ntoki, ndetse wambaye n'indorerwamo z'amaso, arishimye kandi aranezerewe kuko indwara bamusanganye yayikize.

Umugabo uri ku meza ari kurya ateruye isahani, yambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku n'umweru bigaragara ko yishimye.

Umusaza n'umukecuru bari mu nyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umukecuru yambaye indorerwamo z'amaso naho umusaza yambaye ishati irimo amabara y'umutuku.

Ihuriro ryabantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara n'umutuku, ubona ko bahurijwe hamwe n'ikintu gikomeye kandi cy'ingirakamaro.

Umusaza wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, urimo gukora imyitozo ngororamubiri yishimye kandi anezerewe bityo bikamufasha kwirinda umunaniro.

Icyumba kinini cyiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara kiri kuvurirwamo umusaza ubona ko akuze kandi akeneye umuganga umwitaho.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi, harimo umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'umupira w'umukara wicaye ku kagare.

Icyumba kinini kirimo umuganga n'umurwayi bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara ubona ko agenda amwerekera kandi amuyobora kugirango abashe gukira vuba.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi, ni abantu biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abakecuru.

Umukecuru uri kumwe n'umukobwa bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umurwayi uryamye ku gitanda, yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, iruhande rwe hari igikoresho cyifashishwa n'abaganga kugira ngo basuzume indwara abarwayi bafite.

Ababyeyi bambaye imyenda y'umukara umweru n'ubururu, barimo kubyina ubona ko bishimye kandi banezerewe, bityo bikabafasha kongera iminsi yo kubaho.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umukara n'umweru harimo abagore ndetse n'abakecuru ubona ko bakuze mu myaka yo hejuru.

Urujya n'uruza rw'abakecuru baturutse hirya no hino mu gihugu, bafite inkoni mu ntoki ndetse bakenyeye imikenyero, yiganjemo amabara y'umweru n'umutuku.

Abagore batatu barimo guseka, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umweru, umukara ndetse n'ayandi mabara atandukanye. Bicaye imbere y'ameza, ubona ko bishimye.

Umukecuru wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umutuku, urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusaza wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umutuku. Iruhande rwe hari umuganga uri kugenda amuyobora kugira ngo asuzume niba yakizeye kandi asezererwe.

Icyumba kinini kirimo umubyeyi w'umugore wambaye imyenda y'umukara n'ubururu, iruhande rwe hari abana benshi bamukikije ubona ko ari byiza kandi biryoheye amaso.

Umusaza n'umukecuru bafatanye ku rutugu, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru, n'umutuku ubona ko bishimiye ubuzima babayemo kandi banyuzwe.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru, ubururu ndetse ubona ko banezerewe bishimye umusaza arimo araseka.

Umuganga uri kwita ku murwayi amukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo akire. Bambaye imyenda yiganjemo amabara atandukanye kandi bigaragara ko bishimye.

Abagore batatu barimo guseka bafite terefone mu ntoki bambaye imyenda yiganjemo umuhondo umweru imisatsi yabo irasa umweru kubera ko bagaragara nkaho bakuze.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru. Ari imbere y'abayobozi batandukanye, abagezaho imbwirwaruhame yabateguriye.

Umuganga uri kumwe n'umusaza agenda amwerekera ibyo akora kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zituruka ku mwanda ndetse no ku mubyibuho ukabije.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umuhondo n'ubururu, bahagaze munsi y'igiti cy'umuyinya.

Abagabo babiri bavuye mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara barimo kuva ahantu hamwe ubona ko bashyize hamwe kandi biyunze.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'umukara, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda isa umweru, ubururu, n'umukara, ndetse umugore yambaye indorerwamo z'amaso, ubona ko ari guseka, kandi yishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mubice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umukara icyatsi umweru n'ubururu ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abagore n'abana bafite imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umuhondo, umweru n'ubururu. Harimo umugabo w'inzobe kandi ubona ko yifashe mu mayunguyungu.

Inyubako yateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, aho baganira ku nsanganyamatsiko igira iti ''Turandure indwara zandura tubikesha gukaraba amazi meza n'isabune.''

Icyumba kinini cyateraniyemo inama z'abayobozi batandukanye biganjemo abagabo n'abagore bambaye imyenda y'umweru, umukara, ubururu, icyatsi ndetse n'andi mabara.

Umusaza ufite urupapuro mu ntoki, wambaye imyenda yiganjemo umukara ndetse n'indorerwamo z'amaso zimufasha kubona neza.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye bahuriye mu nyubako nini, bambaye imyenda yiganjemo umweru n'icyatsi, ubona ko bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko imwe.

Icyumba kinini kirimo abana n'umuyobozi wabo, bicaye mu ishuri kandi bakeneye kwigishwa kugira ngo bagire ubwenge kandi bajijuke mu mutwe.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse hirya no hino bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, ubururu, icyatsi n'umuhondo ubona ko bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice byo hirya no hino, bambaye imyenda y'umweru ndetse bafite imisatsi myinshi yiganjemo ibara ry'umukara.

Icyumba kinini cyahuriwemo n'abantu batandukanye, biganjemo abambaye imyenda y'umweru, icyatsi, ubururu, bari mu nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abagore, n'abasore bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda y'umweru, umukara n'umuhondo, imbere yabo hari abakobwa barimo kubyina bateze amaboko.

Umugore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'ikote ry'umweru afite indangururamajwi mu ntoki ubona ko ari kugeza ijambo ku baturage bityo bigatuma bishima ndetse bacyura insanganyamatsiko ifite icyo yabagejejeho.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye. Bambaye imyenda yiganjemo umukara, umutuku ndetse n'umuhondo. Bari mu nyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'inama ndetse n'ubuvuzi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, umweru ndetse n'umukara, bahagaze imbere y'abaturage uba ubona ko bari kwiyerekana.

Ihuriro ry'abantu baturutse hirya no hino, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru, umutuku ndetse n'umuhondo. Ni abantu barimo gufata ifoto kugira ngo baze kuyibukiranyaho ibyo bari barimo.

Umwana uhagaze imbere y'inyubako nini, isize amarangi y'ubururu, icyatsi, umuhondo, ndetse harimo n'ayandi mabara agiye atandukanye, ubona ko ari meza.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda y'amabara y'umuhondo n'umutuku, bahagaze imbere y'abaturage bafite igipapuro kinini bari kubereka cyanditseho mu magambo atandukanye.

Umuganga urimo gutera umurwayi urushinge ku kaboko, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umukara. Yaba umurwayi n'umuganga bose bambaye udupfukamunwa.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, aho urujya n'uruza rw'abantu bahurira bagahabwa serivisi nziza kandi inoze, bityo bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umweru, umutuku n'ubururu, ubona ko bagenda bishimye kandi banezerewe.

Ihuriro ry'abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, ubururu n'cyatsi, baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru ndetse n'umukara. Biragaragara ko ari urubyiruko kandi bakeneye ibikorwa kandi bakora ibikorwa bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini, bambaye imyenda y'amabara arimo umukara, umweru, umutuku ndetse n'ayandi bicaye ku ntebe nziza kandi zegamirwa.

Inyubako nini irimo ameza, intebe n'imitako mu nzu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye iby'ubuvuzi ubucuruzi ndetse n'ibindi.

Icyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, cyiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'amabara y'umutuku kandi meza.

Icyumba kirimo abantu bambaye imyenda y'umweru n'ubururu, bambaye agapfukamunwa ubona ko bari kwita ku murwayi, bafite imisatsi mikeya ikeneye ubufasha.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, irimo ibitanda binini ndetse n'ameza aho abarwayi baturutse hirya no hino bishimira kandi bakagenda bameze neza.

Ikigo cy'amashuri kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ubona ko ari cyiza kandi gisamaje ni ikigo gisakaje amabati y'ubururu n'umutuku kirimo indabo nyinshi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga ndetse cyiganjemo amabara y'umweru, umukara, umuhondo ndetse n'ubururu.

Inyubako nini irimo abantu baje kwaka serivisi z'ubuvuzi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'ubururu.

Inyubako nini yateraniyemo abaganga bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye abarwayi bahura nabyo, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara ndetse n'ayandi mabara.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi aho abaganga b'inzobere bafata ibikoresho byifashishwa bakabikoresha bita ku barwayi ndetse bareba icyo bakora ngo babashe gukiza abarwayi vuba.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'icyatsi. Ni inyubako ubona ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi n'ubucuruzi.

Inyubako nziza yubakanye ubuhanga ifite ibirahuri by'umukara ndetse n'inzugi z'umweru, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, cyiganjemo amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu, ni ahantu harimo ibyumba byinshi bikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abaganga n'abarwayi, bambaye imyenda y'umweru, umuhondo, n'umutuku.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga kugira ngo batange serivisi nziza kandi igezweho, ibi ngibi iyo bikoreshejwe neza, bigira inyungu ku barwayi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo n'umweru, ikikijwe n'ibiti byinshi hamwe n'imodoka ziparitse iruhande rwayo nziza kandi zigezweho.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara n'umweru, itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, cyane cyane serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu ndetse n'ibindi bikoresho abaganga bakoresha bavura abarwayi.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abaganga, kugira ngo bavure abarwayi babashe gukira vuba, kandi bagire ubuzima bwiza.

Icyumba kinini kirimo ibitanda byifashishwa n'abarwayi kwa muganga, ubona ko cyiganjemo amabara y'umweru, ubururu, umuhondo ndetse n'ayandi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo iby'ubucuruzi, ubuvuzi, ndetse n'inama zitandukanye, bifasha abaturage kwiteza imbere.

Abantu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu ndetse bambaye n'udupfukamunwa. Bigaragara ko ari abaganga bafasha abarwayi kugira ngo bakire kandi bamererwe neza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino mu gihugu, aho bahurira hamwe bakiga ku bibazo bitandukanye ndetse banafata ingamba kugira ngo babashe kubaho neza binyuze mu mucyo.

Inyubako nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo amabara y'umutuku n'umweru. Ni inzu ibona ko ari nziza kandi ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bifitiye abantu akamaro.

Inyubako nini iberamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, aho abantu bahurira bagahabwa serivisi zigiye zitandukanye ndetse bagafashwa, ni ahantu ubona ko ari ikigo kinini cyane cyakira abantu benshi.

Inyubako nini isize amarangi y'umutuku ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi, aho abantu bahurira baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru, ndetse n'icyatsi, inyuma yabo hari inyubako nini ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Icyumba kinini kirimo umuganga wambaye imyenda y'ubururu ufite n'imisatsi y'umukara, urimo kwita k'umurwayi ndetse amuha serivisi nziza kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abaganga bane bambaye udupfukamunwa n'imyenda yiganjemo iamabara y'ubururu n'umweru bahagaze imbere y'ibitaro birimo irangi ry'umukara, umuhondo, n'umweru.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, irimo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'ubururu. Ni ahantu hacururizwa imiti itandukanye, yiganjemo ibinini ndetse n'iyo kunywa.

Urujya n'uruza rw'abantu baturuka hirya no hino bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umuhondo, n'ubururu barimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo unyura mu kigo hagati.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'icyatsi. Hari urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umweru n'umukara.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, irimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, imbere yayo hateye indabo nziza kandi zibona amazi bityo bigatuma zikura neza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo ameza, intebe, televiziyo, mudasobwa, irimo amabara y'umweru, umukara, n'ubururu.

Inyubako nini irimo amabara y'umutuku n'umukara, iruhande rwayo hari icyapa cyerekana ko abantu bakomeza cyangwa bagasubira inyuma. Mu rwego rwo kwirinda ndetse no kugira umutekano usesuye.

Icyumba kinini kirimo amabara y'umutuku, umweru, ubururu ndetse n'umukara. Muri icyo cyumba harimo abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru n'umukara.

Inyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri aho abantu baturuka hirya no hino mu gihugu, bakaza kwifatanya ndetse bagakora imyitozo ibafasha kwirinda indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, ikikijwe n'indabo nyinshi ndetse isakaje amabati ari mu ibara ry'ubururu.

Inyubako nini zirimo amabara agiye atandukanye, iruhande rwazo haparitse imodoka nyinshi ziganjemo iz'amabara y'umukara ndetse n'iz'umweru.

Icyumba kinini kirimo abaganga babiri, bahagaze iruhande rw'imashini ikoreshwa mu kuvura abarwayi, ubona ko bishimye kandi banezerewe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuganga wambaye itaburiya ndetse ufite imisatsi myinshi, arimo gutera urushinge umurwayi wambaye ingofero y'umukara ndetse aryamye ku gitanda areba hejuru.

Inyubako zitandukanye zubakanye ubuhanga zisakaje amabati y'umukara ndetse n'umweru ubona ko zikorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'ubucuruzi ubuvuzi n'ibindi.

Abagore babiri bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, ubona ko bishimye kandi banezerewe, umwe muri bo ateruye uruhinja mu ntoki.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, iri ahantu heza ubona ko hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye, hari ibiti indabo ndetse n'ibyatsi.

Inyubako nini zisakaje amabati y'umutuku, ziganjemo amabara y'umweru, umuhondo, icyatsi n'umukara, iruhande rwazo hari umuhanda munini wa kaburimbo.

Igikoresho cyifashishwa n'abaganga bapima indwara zitandukanye z'abarwayi kugira ngo babavure bakire bityo basubire mu muryango Nyarwanda bishimye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye aho abantu bahurira bagahabwa serivisi nziza. cyane cyane iy'ubuvuzi ndetse n'iizindi serivisi abarwayi bakunda gukenera mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako nini isize amarangi y'umukara, umuhondo n'umweru, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'inama z'abayobozi batandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo urubyiruko. Iruhande rwabo hari ibitaro bikuru bya ruhengeri ubona ko ari byiza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi, ubucuruzi, inama zitandukanye z'abayobozi, hamwe n'ibindi bikorwa bitandukanye bihuza abayobozi ndetse n'abandi batandukanye.

Ibikoresho biri mu nyubako nini, byiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umuhondo, ubona ko ari ahantu hagari, kandi hashimishije.

Inyubako nini irimo amabara y'umweru, umuhondo n'umukara, iruhande rwayo hari imodoka iri muri kaburimbo ubona ko itwaye abagenzi bakeya.

Umuganga uri mu cyumba kinini wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ahagaze imbere y'igitanda gishasheho matera nziza ndetse n'amashuka.

Isuku ni isoko y'ubuzima. Inyubako zisakaje amabati atukura zirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bitandukanye abantu bifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye byiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'amabara y'icyatsi, ni inyubako ubona ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umukara, yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, barimo kwiga ndetse bafata ingamba ku bibazo bitandukanye.

Inyubako nini irimo ibicuruzwa bitandukanye, biri mu mabara y'umweru, ubururu, icyatsi n'umukara, bigaragara nkaho ari nziza kandi ikomeye.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye cyane cyane ubw'ibiribwa ndetse n'imyambaro, aho abantu baturutse hirya no hino bahurira bakagura ibicuruzwa badafite bityo bikabafasha kwiteza imbere ndetse no guteza igihugu imbere muri rusange.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga harimo ibitanda, matera ndetse n'ibindi bikoresho abaganga bakoresha bavura abarwayi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo ubururu icyatsi ndetse n'umukara, iruhande rwayo hateye indabo nziza kandi zigezweho.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'ubururu, umuhondo, umukara n'icyatsi irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo bite ku barwayi neza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yubakishije amatafari ahiye, ubona ko ari nziza kandi abantu bayikoreramo nabo basa neza.

Inyubako zigeretse zifite agaciro k'amafaranga menshi kuko abantu bazubaka bazubakana ubuhanga kandi bigatuma ziba zikomeye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umutuku. Ni ahantu ubona ko ari heza kandi hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga ni ahantu ubona ko hakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi, ndetse abantu benshi bahurira bakaza guhabwa serivisi nziza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku, icyatsi, ndetse n'umukara, bahagaze ku nyubako ndende, isakaje amabati y'ubururu.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye byabaye iby'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi cyiganjemo amabara y'umuhondo umweru ndetse n'umukara.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, aho ababyeyi bafite abana batoya baza kubapimisha indwara, ndetse no kubateza inshinge z'amezi atandatu.

Ibitaro bikuru bya kabgayi bikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi aho abarwayi baturutse hirya no hino mu gihugu bavurira bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini iriho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, imbere yaho haparitse imodoka nziza kandi zigezweho, zifashishwa mu gutwara abagenzi.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo iby'ubuvuzi, aho abantu baturuka hirya no hino mu gihugu baje kuvurwa ndetse no kwitabwaho.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umukara icururizwamo ibintu by'amoko atandukanye harimo imyambaro, ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho byo mu buzima busanzwe.

Icyumba cyateraniyemo abaganga n'abarwayi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi, ay'umukara, umweru ndetse n'ubururu.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, aho umuganga afata umurwayi akamunyuza mu cyuma kugira ngo amenye indwara afite.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye byiganjemo, ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi, ni inyubako ubona ko isakaje amabati y'umutuku, ndetse isize amarangi y'umweru n'umukara.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane by'imyitozo ngororamubiri, aho uruke n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bahurira bagakora imyitozo ibafasha kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kinini kirimo umugabo wicaye imbere ya mudasobwa arimo kugenda areba ibintu bitandukanye kugira ngo azabashe gufasha abarwayi abifitiye ubumenyi.

Inyubako nini ikorerwamo ibicuruzwa by'amoko atandukanye harimo: imigati, amandazi, capati, ibiraha, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga biri mu nyubako nini byiganjemo amabara y'umukara, umweru ndetse n'ubururu, ni inyubako nini ubona ko ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye.

Inyubako nini irimo amabara y'umutuku iruhande rwayo hateye indabo ndetse n'ibyatsi. Inyubako isakaje amabati atukura ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye kandi byiza.

Icyumba kinini kirimo umuganga n'umurwayi iruhande rwabo hicaye umusore witeze igitambaro mu mutwe, wambaye umupira w'umukara umweru n'umuhondo.

Icyumba kirimo amabara y'umweru n'ubururu gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo ibyumba byinshi ndetse bikorerwamo ibintu byinshi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, cyiganjemo amabara y'ubururu, umweru n'umukara, aho abarwayi bafashwa ndetse bagataha bishimye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi nk'ameza, intebe, utubati ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibitanda bikoreshwa kwa muganga cyane cyane bikoreshwa n'abarwayi, birimo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara, ni ahantu heza ubona ko hashimishije.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi harimo indwara z'umutwe, umutima, ibihaha n'impyiko kugira ngo zibashe kuvurwa kandi zikire.

Umuganga wicaye mucyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye wambaye itaburiya y'umweru ategereje abarwayi ngo abashe kubafasha.

Inyubako nini isakaje amategura yu bururu iriruhande rwumuhanda wamabuye iruhande rwawo hari ibyatsi byinshi nibiti.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umuhondo ndetse n'umukara, bigaragara ko bishimye kandi banezerewe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umweru n'umukara, uri iruhande rw'ishyamba rinini, rikorerwamo ubucuruzi, kandi rifasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nini irimo amabara y'umuhondo n'umweru, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, harimo kuvura indwara z'umutima, ibihaha ndetse n'impyiko.

Ikigo kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo amabara y'ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi, hateyemo indabo nziza kandi zifite isuku.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'mweru n'umukara iruhande rwayo hateye ibiti byiza kandi bishishe byifashishwa mu kurandura umwanda n'ibindi bisa nabo.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye, cyane cyane byifashishwa mu myitozo ngororamubiri. Cyiganjemo amabara y'umukara, umuhondo ndetse n'umweru.

Inyubako nini irimo amabara y'umweru, umutuku n'umukara. Ikorerwamo akazi kenshi kagiye gatandukanye. Harimo ubucuruzi ndetse n'inama z'abayobozi.

Inyubako nini irimo intebe nziza, ameza n'utubati, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yaba iby'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako nini isize amarangi y'umweru n'umukara, iruhande rwayo hari abagabo bambaye imyenda y'ubururu, umukara ndetse n'umweru ubona ko bari mu nama.

Igiti kinini gifite amashami menshi munsi yacyo hicaye umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'ishati y'ubururu ubona ko arimo gusenga yambaza imana.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye by'amabara y'umweru n'umukara, ubona ko ibi bikoresho bifasha abarwayi kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, harimo ibikoresho byinshi nk'ibitanda, intebe, ameza n'ibindi.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu, isize amarangi y'umuhondo. Ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane ibikorwa by'ubuvuzi.

Abaganga bambaye imyenda itandukanye, yiganjemo amabara y'umweru n'umukara. Ubona ko bambaye udukoresho mu ntoki, twifashishwa kugira ngo birinde kwandura indwara zitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi n'ubuvuzi, aho abantu baturuka mu bice bitandukanye, bakaza gufata serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, iteye amarangi y'umukara n'umweru, ubona ko ifite imiryango minini kandi myiza.

Inyubako nini yahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye byiganjemo amabara y'umweru icyatsi umuhondo ndetse n'umukara aho abantu bahuriye baturutse mu bice bitandukanye bakishima.

Inyubako nini irimo ibitanda byiza byifashishwa n'abarwayi kwa muganga, biri mu cyumba kinini kirimo tereviziyo, ameza n'intebe nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo amabara y'umweru, icyatsi, ubururu ndetse hateyemo ibyatsi bigezweho.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'ubururu, umukara, ndetse n'icyatsi, irimo umukobwa munini ufite imisatsi myinshi ubona ko yishimye.

Inyubako irimo ibitanda bitandukanye by'amabara y'umweru, bifite ibitambaro by'icyatsi, ubona ko abarwayi baturutse hirya no hino mu gihugu, baryama ndetse bakaruhuka neza.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, iruhande rwayo hari ibyatsi byinshi, ubona ko ari ahantu heza kandi hasamaje.

Inyubako nini, irimo amabara y'umweru n'umuhondo, iruhande rwayo hari kaburimbo irimo ibyatsi ku mpande, bigaragara ko ari heza.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi, bwindorerwamo z'amaso, aho abantu bafite iki kibazo bahurira bakareba izibakwiriye kandi bakunze.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi butandukanye cyane cyane ubw'amaso, isakaje amabati y'ubururu ndetse iruhande rwayo hateye indabo nziza kandi zigezweho.

Inyubako nini yisakaje amabati y'ubururu irimo amarangi y'umweru umukara n'umuhondo ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'ibyubucuruzi, ubuvuzi ndetse n'ibindi.

Ibitaro binini bikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane ibyo gufasha abakobwa bakorewe ihohoterwa, kugira ngo babashe kugerwaho byoroshye kandi bahabwe ubufasha bwihuse.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu ndetse n'umukara, bicaye imbere y'ameza manini kandi ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo kugenda mu muhanda, imbere yabo hari inzu nini irimo amabara y'umuhondo, umutuku icyatsi ndetse n'ayandi, iyo nzu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubucuruzi.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi butandukanye Higanjemo ibikoresho abarwayi bakoresha nk'intebe, ibitanda ndetse n'ibindi abaganga bakoresha babapima kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, icyatsi n'umukara, bari mu kigo kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Icyumba cyahuriwemo n'abayobozi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye, zirimo kwirinda ibiyobyabwenge, gukorana umwete ndetse no gukura amaboko mu mifuka.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara, bifasha abarwayi kugira ubuzima bwiza ndetse buzira umuze.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo amabara y'umuhondo umweru ndetse n'ubururu muri iyo nyubako harimo abantu baturutse hirya no hino baje kwaka serivisi.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi. Harimo intebe z'amoko atandukanye ndetse n'ibitanda byiza, bikorerwaho cyangwa se bisuzumirwaho abarwayi.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi ndetse n'iby'ubucuruzi, aho abantu baturuka hirya no hino bagahurira baje kwaka serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi ubona ko ari inyubako yiganjemo amabara y'umukara n'umweru ,iruhande rwayo hateye udupapuro turimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako nini irimoho ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byiganjemo amabara y'ubururu, umutuku, umweru ndetse n'umukara. Ni ahantu heza kandi hasa neza.

Icyumba kinini kirimo umuganga urimo gufasha umurwayi amushyiraho igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye indwara afite.

Inyubako nini isize amarangi y'umweru, umukara, n'ubururu, iruhande rwayo hahagaze umugabo urimo kugenda atera imiti kugirango hirindwe indwara zituruka ku mwanda.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi byiganjemo abantu bambaye imyenda y'umweru, ubona ko ari abaganga barimo gufasha abarwayi bafite indwara zitandukanye.

Icyumba kinini kirimo amabara agiye atandukanye cyiganjemo amabara y'umweru, ni icyumba gikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi ndetse n'ubujyanama ku ndwara zitandukanye.

Imiti itandukanye ikoreshwa n'abantu, yiganjemo iyo kwitera mu nshinge ndetse n'iyo kunywa aho abantu bahita bakira byihuse.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara uvuye mu myitozo ngororamubiri kugirango yirinde indwara zitandukanye, afite icupa mu ntoki ririmo amazi.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo umukobwa ubona ko arimo arakora siporo nahantu ubona ko ari heza kandi aho hantu haratuje.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, amanitse amaboko, bigaragara nkaho ari mumyitozo ngororamubiri, kugirango agire ubuzima bwiza.

Icyumba kinini, gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, harimo abantu baturutse hirya no hino, bambaye imyenda y'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, bakikije umukinnyi bigaragara ko yavunitse kandi akeneye ubufasha bw'ibanze.

Siporo ni ingirakamaro kandi ni nziza mu buzima bwa muntu, iyo umuntu akoze siporo bituma yirinda indwara zitandukanye zituruka ku mubyibuho ukabije ndetse n'ibindi bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umukara, umweru ndetse n'umuhondo bari ahantu heza hakorerwa imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini kirimo umuganga ndetse n'umurwayi ufite ikibazo mu ivi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'andi mabara y'umutuku agaragara.

Urutonde rw'imbuto zirinda indwara, harimo: imineke, indimu, pavuro ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'abantu, kugira babashe kugira ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umukara, iruhande rwe hahagaze umurwayi, ubona ko amwitaho, amubaza ibibazo na we amusubiza kugirango amenye ikibazo afite.

Umusore wambaye umupira w'umukara n'ipantaro irimo amabara y'umweru, urimo gukora imyitozo ngororamubiri mu nzu nini yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri, barimo kwiruka mu muhanda wa kaburimbo. Bambaye imyenda y'umukara, umweru, ubururu ndetse n'ikigina.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru iruhande rwe hateretse mudasobwa agenderaho akora imyitozo.

Abasore batatu bateruye umwana bigaragara ko yavunitse, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umweru n'umuhondo. Inyuma yabo hari abandi bantu benshi bambaye imyenda y'imyeru.

Ibiribwa byiganjemo amagi, imineke ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, abantu bakunda kurya ibiribwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kwa muganga kwivuza, ku gitanda haryamyeho umusore uri kwipfukisha akaguru ubona ko yavunitse.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga kirimo amabara y'umweru, ubururu, n'umukara, iki nigikoresho gifasha abantu kugira ubuzima bwiza kuko abaganga bagikoresha babitaho.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye inkweto ziganjemo amabara y'umukara, icyatsi n'umweru, bishimiye gukora siporo kuko ari nziza kandi zirinda indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuvuzi uri kwita ku murwayi urwaye akaboko. Yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara umuhondo ndetse n'umweru.

Inyubako nini irimo umusaza wambaye imyenda y'umweru, umukara n'ikigina, ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusore wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto nziza, arimo gukora imyitozo ngororamubiri kugirango agire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane imyitozo ngororamubiri, ndetse n'ubuvuzi bugiye butandukanye bw'indwara nyinshi, ni ahantu ubona ko ari heza kandi hashimishije.

Kunywa amazi meza ni kimwe mu bintu bifasha umubiri w'umuntu kugira ukore neza, iyo utanyoye amazi bituma urwara impyiko ndetse n'izindi ndwara zituruka mu myanya y'ubuhumekero.

Ibikoresho bitandukanye umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi, byiganjemo amavuta ndetse n'ibindi bikoresho abantu bakoresha kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kinini cyateraniyemo abaganga baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'ingofero nziza, bari mucyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara uri mu nyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane by'imyitozo ngororamubiri by'ubucuruzi ndetse n'ubundi buvuzi butandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara ndetse n'ubururu. Ni ahantu ubona ko ari heza kandi hatangirwa serivise nziza.

Icyumba cyateraniyemo abantu babiri, umuganga'umurwayi aho bambaye imyenda irimo amabara y'umukara n'umweru, kugirango babashe kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye biganjemo abaganga, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse bari mu nzu nini cyane.

Imiti gakondo igiye itandukanye yiganjemo amabara y'umuhondo icyatsi n'umutuku, ni imiti yifashishwa n'abantu mubuzima bwa buri munsi kugirango bakire.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru ndetse n'ayandi aho bahurira bakiga ku bibazo bitandukanye biri muri sosiyete.

Uugabo wambaye umupira w'umweru w'imibiri yombi wikanda mu nkokora ubona ko afite ikibazo cy'imvune kandi akeneye umuntu umufasha.

Umusore uri mu cyumba wambaye imyenda yiganjemo umukara, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, ni icyumba ubona ko kirimo amabara agiye atandukanye, ay'umweru umukara ndetse n'umuhondo.

Umusore wambaye ikabutura y'umweru n'inkweto z'umutuku n'umweru, urimo gukora imyitozo ngororamubiri yishimye kandi anezerewe.

Mu kagare kifashishwa mu gutwara abantu bafite ubumuga kiganjemo amabara y'ubururu, umukaru, ndetse n'umweru aho umuntu ufite ikibazo yicaramo bakamusunika.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru umukara n'umutuku, urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agabanye umubyibuho ukabije.

Icyumba kirimo umugabo wambaye ikabutura y'umweru n'umupira w'umukara, urimo gukoreshwa imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umutuku. Ni abantu ubona ko barimo kwita ku murwayi ubari imbere kugira ngo akire neza.

Umugore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, n'umweru, iruhande rwe hateretse imashini, ndetse iteretse ku meza manini agezweho.

Icyumba kirimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse icyumba arimo cyiganjemo amabara atukura, ubururu, ndetse n'amabara y'umweru.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye isaha ku kuboko ndetse n'umupira w'umweru, ubona ko avuye gukora siporo kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyiho ukabije.

Umugabo ufite icupa ry'amazi mu ntoki wambaye n'umupira w'umukara hirya ye hari ibyatsi byinshi, kandi byiza biragaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zituruka k'umubyibuho ukabije.

Abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara ndetse bari mu nzu nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bya siporo.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo umugabo wambaye umupira utukura ndetse n'umurwayi ufite ikibazo cy'imvune ku kaguru uri guhabwa serivisi y'ubuvuzi.

Umugabo wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ufite igikomere ku kaguru, arimo yikandishaho agatambaro kugira ngo agabanye ububabare.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi yiganjemo ibinini ndetse n'iyindi yo kunywa iyo umuntu yivuje neza bituma agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara n'ibikoresho ubona ko byifashishwa n'abaganga kugirango batange serivisi nziza.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe hateretse imbuto nyinshi, harimo imineke n'ibindi byinshi bifasha umuntu mu buzima bwa buri munsi.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umweru, urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse yirinde n'indwara zituruka ku mu byibuho ukabije.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru. Hirya ye hari intebe nziza z'imisego, bigaragara ko ari nziza kandi zikeye.

Abantu barimo kwiruka bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'ubururu, basa nk'aho aho bavuye mu myitozo ngororamubiri.

Imbuto zitandukanye ziganjemo inanasi, amatunda, imyembe, imineke byifashishwa mu kurinda indwara zituruka ku mirire mibi.

Umuganga wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru umuhondo, n'umukara ufite igikoresho yambaye mu ijosi cyifashishwa mu gupima indwara z'umutima.

Umugabo ufite icupa ry'amazi, wambaye umupira w'umukara, ubona ko avuye mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo arwanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga kugira ngo basuzume abarwayi, maze babahe imiti ibafasha gukira vuba.

Umugabo wambaye umupira w'umukara urimo kunywa amazi meza kubera ko amazi ni kimwe mu bintu bifasha abaturage kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abana bavuye mu myitozo ngororamubiri ubona ko bishimye kandi banezerewe, ibi bigaragaza ubwumvikane ndetse n'ubusabane hagati y'abana.

Umukobwa n'umusore barimo gukora imyitozo ngororamubiri bambaye imyenda y'umukara n'umweru ndetse iruhande rwabo hateretse ibikapu bibiri bifashishwa nabo bagiye mu myitozo.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri wambaye umupira w'icyatsi, afashe ndetse akaboko ke arimo kugakoza ku mugongo kugira ngo arambuke neza.

Icyumba kinini kirimo umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu kirimo imitako igiye itandukanye, arimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri wambaye isaha ku kuboko, ni umusore munini kandi ubona ko akuze, ari gukora siporo.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ndetse n'ayandi atandukanye. Ari mu nyubako nini, ubona ko ari nziza kandi yisanzuye.

Umusore wambaye umupira w'ubururu ufite icupa ry'amazi mu ntoki ari kunywa. Uwo musore afite ubwanwa bwinshi ndetse yambaye agakoma mu gatuza bityo agakora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusore w'imyaka makumyabiri n'umunani, urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugirango agire ubuzima bwiza, bityo abashe kubaho neza kandi yishimye.

Umusore ufashe igitambaro cy'ubururu akifashisha mu gukanda ahantu havunitse kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako yateraniyemo abantu batandukanye. Bambaye imyenda irimo umweru, ubururu n'umukara. Ubona ko barimo kuvurwa amenyo kandi bitabwaho n'umuganga.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi uri kunywa amazi bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri. Siporo ni nziza kandi zituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo bigaragara ko yavunitse mu ifi wicaye ku gitanda yambaye imyenda yiganjemo ubururu ndetse n'umweru, iyo umuntu yavunitse mu ivi bituma atabasha kugenda agahora yicaye.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi, yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, n'umukara, iruhande rwayo hateye ibiti binini, kandi byiza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, byiganjemo amabara y'umweru, umukara, ubururu n'icyatsi.

Mu kibuga kinini gikorerwamo imikino itandukanye cyane cyane umupira w'amaguru, haryamyemo umugabo wambaye imyenda yiganjemo umukara ndetse n'ubururu.

Abantu bahuriye mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yiganjemo: umutuku, umweru, umuhondo, ubururu, ndetse n'icyatsi, bari mu kibuga kinini kandi cyiza ubona ko gikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga biri mu nyubako, ubona ko byifashishwa mu gusuzuma indwara abarwayi bafite, maze bigatuma bahabwa ubufasha bw'ibanze hamwe n'imiti.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara umweru ndetse n'ayandi, ateruye icyuma kinini mu ntoki bigaragara ko ari kumva imiziki mu matwi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z 'ubuvuzi kirimo umuganga n'umurwayi aho amusuzuma ndetse hibandwa ku bimenyetso agenda agaragaza.

Umurwayi wambaye umupira w'ubururu ufashwe akaboko n'umuganga kugira ngo yumve ko afite umuriro ni umusore w'imibiri yombi.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda y'umutuku, ubururu n'umweru; ku gitanda haryamyeho umuntu ubona ko amanitse akaguru.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye bari mu myitozo ngororamubiri higanjemo abana abasore inkumi ndetse n'abagabo ubona ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, yiganjemo ibikakarubamba. Igikakarubamba ni umuti uvura indwara zigiye zitandukanye, zananiranye, zikavurwa, zigakira.

Inyubako nini, irimo amabara y'umukara, ubururu, n'icyatsi, irimo umusore mwiza cyane, ubona afite indabyo mu ntoki.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zananiranye. Uyu muti ufasha umuntu mu gihe ategereje ubufasha bwa muganga.

Ihuriro ry abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye mu isoko baje kugura ibicuruzwa, birimo intoryi, inyanya, urusenda, ibitunguru n'ibindi bicuruzwa badafite.

Imiti gakondo yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ayandi agiye atandukanye, imiti gakondo ituma abantu babasha gukira indwara zananiranye bityo bakabaho bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ubururu ndetse n'umutuku, ubona ko bari mu mirimo igiye itandukanye.

Umubyeyi ufite marete mu ntoki witeye igitambaro mu mugongo ubona ko ari kwitegereza mu bihingwa, harimo urutoki ndetse n'ibishyimbo.

Inyubako nini irimo umuhungu wambaye ishati y'umweru, uri mu nyubako nini yiganjemo, amabara y'umweru, umukara, n'ubururu.

Igikakarubamba ni umuti ukoreshwa mu buvuzi, wifashishwa uvura abantu batandukanye uvamo umuti mwiza kandi ufite ubuziranenge kuko ukiza indwara nyinshi.

Imiti gakondo ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye. Imiti gakondo ni imiti ifasha abantu gihe hari indwara zananiranye zikeneye kuvurwa byihuse kandi vuba.

Umusaza wambaye umupira w'amaboko magufi, wiganjemo amabara y'umweru, n'umukara, uri mushyamba ubona ko agenda atema ibiti arebamo igikuze maze akabikoresha mu kubaka urugo.

Umusaza n'umugore bari kumwe bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umweru n'umukara, bahagaze munsi y'igiti kinini ubona ko bitegereza imbere.

Imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo uwitwa igikakarubamba, iki ngiki gikoreshwa mu buvuzi gakondo harimo indwara nyinshi kivura.

Imiti gakondo igiye itandukanye ikorwa mu byatsi. Imiti gakondo ni imiti yifashishwa n'abantu mu gihe bategereje ko babona muganga, kugira ngo abahe imiti yemewe.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo indwara zananiranye ndetse n'izindi ndwara abaganga batabonera imiti ako kanya.

Imiti itandukanye gakondo ivura abantu batandukanye; umuti gakondo, ni umuti uvura abantu mu gihe bategereje ko muganga abavura; maze bakaba bafite agahenge.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umuhondo, n'umweru. Ubona ko bagenda basura ibikorwa bitandukanye.

Umugore wambaye igitenge cyiganjemo amabara y'umweru, umuhondo. ubururu, n'umutuku urimo gusoroma indabo iruhande rwe ubona ko hari n'izindi nyinshi.

Igiti kinini cy'umuravumba, gikoreshwa mu bintu bitandukanye kugira ngo kibashe kuvura indwara gakondo ndetse n'izindi zabase abantu.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu bukerarugendo bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, umukara n'umutuku abo bantu ubona ko bahetse ibikapu binini kandi bambaye n'inkweto nini cyane.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kugura imiti yiganjemo amabara y'umukara, icyatsi, umutuku, n'umuhondo, kugira ngo babashe gukira indwara zitandukanye.

Urutonde rw'imbuto zitandukanye zirimo imineke, inanasi ndetse n'amata, ibi byifashishwa mu kurinda indwara zitandukanye.